Umuhanda uri kugendamo imodoka y'ubururu irimo abantu bane ndetse n'abandi benshi barimo imbere batagaragara, imodoka iziritseho ibikoresho hejuru yayo ndetse.

Inzego z'umutekano za gisirikare. Bambaye ingofero zitandukanye, bafite intwaro nk'imbunda ndetse bambaye inkweto z'umukara zabugenewe zikoreshwa mu kazi. Hirya yabo hari igiti cy'umukindo.

Icyapa kizwi nka Feruje cyerekana aho ibinyabiziga bigomba kwerekeza kiri mu mabara abiri, iry'umutuku n'iry'icyatsi. Ibara ry'icyatsi, ryerekana ko ikinyabiziga Kigoma kugenda, iry'umutuku rikerekana ko ikinyabiziga kigomba guhagarara.

Umuhanda wa kaburimbo uparitswemo imodoka, aho iri gusakwa n'imbwa ya polisi. Imodoka isa n'umukara imbwa nayo isa n'ikigina, inyuma y'iyo modoka cyangwa mu mpande iyoyo modoka hari ibiti imikindo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abashinzwe umutekano bazwi nka polisi, bari gukora akarasisi mu kibuga cyabugenewe, bose bari kugendera ku murongo umwe ndetse n'icyerekezo kimwe, bayobowe n'umugabo umwe bambaye imyenda y'umukara, ndetse imbere bambariyemo imipira y'umweru.

Umuporisi uhagaze neza yemye, ari kureba imbere, yambaye ishati iriho amapeti, yambaye rinete, n'ingofero iriho ikirango cy'u Rwanda, yitwa Jean Bosco KABERA. Ndetse imyenda yambaye mo imbere harimo agapira k'umukara, aragaragara n'kaho..

Inzego z'umutekano zahuriye ahantu hatandukanye, harimo polisi, daso, ndetse n'abandi batandukanye. Bari kumurika moto bagiye guhereza bagenzi babo, bari gutanga pulake ifite nomero RH maganatandatu makumyabiri na kabiri A.

Abanyeshuri bari mu ngando bambaye impuzankano ya gisirikare, bigaragara ko bari ku murongo umwe bariteguye ndetse bari ku mirongo itatu, bari kugenda neza kandi bari ahantu hari amapave.

ubukwe bwateranyije abagabo bari kuganira , bari kunywa fanta ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa bari gukoresha banywa. Bicaye begeranye ,umwe ku ruhande ari kubareba ameze nk'uyoboye inama.

Abantu bagaragara nkaho bari kwifotoza bavuye gusenga mu kigo cy'amashuri imbere yabo hari ubusitani ndetse barasutamye bafite bibiliya ababyeyi bari inyuma yabo bahagaze munsi y'igiti kinini.

Inama rusange y'abaturage bateraniye hamwe bicaye bicucitse cyane. Bari hagati y'ibiti birebire. Imbere yabo hari akameza za gateguye neza kariho igitambaro cy'umuhondo ndetse hakaba hari n'umubyeyi wicaye ku ruhande, afite umutaka.

Salle iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, bigaragaraho ko baje mu nama, ndetse bakaba bafite amazi ateretse imbere yabo, imeza iteguyeho ibitambaro by'ubururu, ndetse bafite na ajenda imbere yabo, na telefone, bambaye imyenda y'ubwoko butandukanye, hari abandi babiri bigaragara nkaho bari kwinjira ndetse n'udugato.

Inteko rusange yahuje abaturage bo mu ngeri zose, harimo abakecuru n'abasaza , bambaye imyenda itandukanye, bayobowe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara nishati y'umweru , ndetse inyuma yabo hari inzu yubakishije amategura n'iy'amabati hari n'ipoto riri hagati yabo bicaye ku mabuye.

Umugabo ufite mikoro yambaye linete imbere ye hari igitabo ndetse na terefone, inyuma ye hicaye abandi bantu ndetse n'iruhande rwe hari umugabo uri kureba imbere yambaye ishati ifite amabara y'umweru n'umukara, biragaragara nk'aho ari gutanga inama.

Umutiba wagitse mu biti bine aho ukoreshejwe ibirere, kandi ukaba uboshye mu birere ,ukaba ufite imyenge ibiri inzuki zinjiriramo.

Isuka ya rugori yacitse umuhini. Iragaragara nk'aho ishaje. Bamwe bakunda kuyita agafuni . Yegetse ku nzu ifite urubobi hasi hasi , neza neza.

Ababyina imbyino gakondo afite agaseke ku mutwe gapfundikiye, ateze amaboko yambaye imikenyero y'umukara ndetse n'agasengeri, biragaragara nk'aho aho ari hari umwijima ,inyuma ye hari abari kuvuza ingoma.

Inzu ndangamurage bigaragara nk'aho ari inzu gakondo yubakishijwe ibyatsi ndetse ikaba izitijwe n'imbariro, hirya yayo hari urugo na rwo rwubakishije imbingo ,ikindi kandi ikaba isakaje umukenke.

Ababyeyi bane bigaragara ko bashobora kuba bari kwenga ibitoki. Bari kubyengera mu muvure, bigaragara ko bose barunamye. Biteze ibitambaro mu mutwe, bambaye n'imyenda itandukanye. Bari kwengera mu muvure bakoresheje intoki. ndetse bakaba benda ari bwo bayikiri gu.....

Inzu yubatswe mu buryo bwegeranye, ifite amavase kumpande, yubakishije amatafari, imbere yayo hari ubusitani bukorutiririye ndetse n'ururabyo ruteyemo.

Umukobwa wicaye hasi imbere ye hari igisabo gipfundikiye. Yambaye urugori mu mutwe yaziritse imisatsi ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi. Yakenyeye imikenyero y'umutuku hirya ye hari undi mugenzi we nawe upfukamye.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo bambaye imyenda yabugenewe, bambaye ibishura by'umukara hasi ndetse n'inkanda, bafite urugori mu mutwe bateze amaboko, bafite ingabo ndetse n'amacumu, biragaragara ko bari kubyina mu gitaramo.

Urutoki rurimo abantu benshi baruhagazemo, aho harimo umugabo uri kwenga akoresheje ibyatsi byitwa umukenke. Ari kwengera mu muvure w'ibiti, ubajijwe mu mu giti, ndetse akaba akikijwe n'abantu benshi b'ababyeyi.

Abana b'abakobwa, babyina indirimbo gakondo bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu kubyina, bambaye ibitambaro, baziritse udutambaro mu mutwe, bambaye inigi ndetse hari n'umubyeyi ubicaye iruhande ari ku basuhuza, hirya yabo hari abaturage benshi bari kubareba.

Ababyinnyi bari kubyina bishimye, bamwe bari kubafotora abandi bari kugenda imbere, hari umubyeyi ukenyeye igitenge, ndetse ateze amaboko, hirya yabo hari abagabo nabo bateze amaboko, ubona ko bigaragara nk'aho bishimye.

Ingobyi batwayemo umugeni nk'aho bamujyanye kwa nyirabukwe, imbere y'uwo mugeni, hari umubyeyi wikoreye ikibindi kirimo amarwa. Ingobyi iteruwe n'abagabo bane, iruhande rwabo hari umugore wambaye umukenyero, ndetse no hirya yabo hari ibihuru bicucitse.

Umukobwa uri kubyina yambaye igitambaro cy'ubururu n'urunigi mu ijosi. Yambaye uduti tubiri ku mutwe yatuziritse, yateze amaboko. Iruhande rwe hari ingoma, inyuma ye hari igiti ndetse no hepfo ye hari urugo rwubakishije hari n'utwatsi duteye iruhande rwe.

Ababyinnyi gakondo babyina indirimbo za kinyarwanda , bambaye neza bateze amaboko barishimye, kandi bambaye imyenda isa. Bambaye inkanda, amayugi ku maguru ndetse bari guseka bose bateze amaboko. Iruhande rwabo hari idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara atatu.

Umugore wicaye ku musambi, cyangwa ikirago, kimwe yagisoje kukiboha, ikindi ari kukibohesha ibirere. Inyuma ye hari inzuzi, ibigori byumye, ndetse n'urubingo, hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye, hateye n'insina. Biragaragara ko iruhande rwe, hashobora kuba hicaye undi muntu.

Ibicuma bitatu biri mu byatsi biteretse hasi, bibiri birazirikanye, ikindi kiri ukwacyo. Birasa nabi ndetse iruhande rwabyo hanitse imyenda hasi mu byatsi, bigaragara nk'aho imaze kumeswa.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo. Inyuma yabo hari inzu y'umwami. Bambaye amayugi hasi ku maguru, bafite ingabo mu ntoki ndetse n'amacumu. Bambaye intuza, imigara mu mutwe. Hirya y'izo nzu z'umwami hari uduti tugaragara nk'aho dutohagiye.

Ingoma iteretse mi ibara ry'umutuku, ndetse ikaba ibohesheje impu, ifite utubara tw'umweru tuyizengurutse, ndetse hakaba hari n'imirishyo ibiri iyicometsemo, iteretse ahantu heza, na yo imeze neza.

Imyuko irundanyije cyane iteretse mu ndobo. Ikaba ishinze ihagaze, ikaba iri mu ndobo y'umweru. Ndetse hari n'ibindi bintu biri inyuma yayo byinshi cyane. Ifite amabara atandukanye, iregeranye cyane ku buryo idashobora kugwa hasi.

Ibiseke byifashishwa mu gutura ahantu bifite imitemeri izwi nk'imipfundikizo yabyo, ndetse hari n'amasaro biteretse k'umukeka umeze neza birarundanyije, biregeranye kandi biravanze n'ayo masaro, byose biri ahantu hamwe bifite amabara atandukanye.

Ababyinnyi gakondo bari kubyinira imbere y'ingoro y'umwami, harimo abagabo n'abagore cyangwa abakobwa, bambaye amayugi ku birenge byabo ndetse n'imyenda yabugenewe.

Umurima uteyemo inzuzi zeraho ibicuma. Ibicuma byifashishwa mu gukora cyangwa se mu guterekamo inzoga, ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye. Bikaba bitarera biracyasa n'icyatsi, biracyari ku bihaza byabyo, ndetse bikaba bikiri no mu murima.

Urusyo bari gusyaho amasaka ajya ku ntara, ndetse bari gukoresha ibuye ryabugenewe nk'ingasire, hari ibyatsi biri iruhande aho, ndetse hakaba hari umubyeyi uri gusya.

Igiseke kiboshye mu biti by'igipfunzo, ndetse hirya yacyo hakaba hari ibyatsi byumye, kiragaragara nk'inkangara ipfundikiye, ndetse umufuniko wayo ufite umushomi bafataho, gifite amabara atandukanye, ay'umukara ndetse n'ay'umuhondo, bigaragara ko kiboshye mu byatsi.

Ababyinnyi babyina indirimbo gakondo, bambaye inshunda amayogi ndetse n'imyenda yabugenewe, bambaye imyenda y'umweru hejuru ndetse n'urugara mu mutwe bafite n'amacumu mu ntoki.

Ibicuba biteretse ku mukeka, biri ahantu heza hisanzuye. Biratandukanye inyuma yabyo hari urugo cyangwa urukuta rw'imbingo zigiye ziboshye nk'izegeranye. Ibicuba birapfundikiye neza cyane, ku buryo nta kintu cyakangiza ibirimo n'imbere.

Umukobwa wambaye inkanda ndetse inyuma ye hakaba hari undi wambaye inkweto zihagaze, akaba yambaye ipantaro, yambaye isurubeti, arasutse uw'imbere ye ateze amaboko yambaye urugori mu ijosi ndetse yambaye urugori mu mutwe ndetse n'urunigi mu ijosi. Inyuma ye hari ibya...

Amazi ari m'ubwato, ubwato bukaba bwicayemo abantu benshi cyane kandi begeranye, harimo uri kudaha amazi akayasubizamo, ndetse n'undi ufite intara mu ntoki n'agakoni, harimo ababyeyi benshi bicaye bareba inyuma, ndetse no ku mpande hakurya y'amazi, hari abandi bantu benshi bari kureberera.

Umukeka ufite amabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo, umukara, uboshywe neza uratatse, biragaragara ko urambuye ahantu heza, ndetse ukaba ufite n'isuku.

Ifoto irimo ababyinnyi bambaye imyenda isa n'umweru ndetse n'urugori mu mutwe ,bafite imisatsi myinshi cyane, baratandukanye ndetse barambuye n'amaboko ku buryo nta muntu ushobora kwegerana n'undi bamwe bari kurebana, abandi bari kureba imbere.

Ababyeyi babiri bari bari kuboha ikirago, bakoresheje indodo z'umufuka, umwe yambaye umupira w'umutuku, ndetse undi yambaye agapfukamunwa n'ibirenge.

Imashini iri kwakamo imibare. Umunani inshuro enye, ifite amabuto atandukanye ukandaho, ndetse ikaba ifite amabara y'umuhondo hejuru.

Igikoresho cyifashishwa mu bubaji gitobora imbaho ndetse kikaba kirambitse ku meza kubutaka busa n'umukara gikikijwe n' igifuniko cy'umutuku cy'umuhondo kikaba gifite ibara ry'umweru.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gicometseho insinga, zifite amabara atandukanye iz'umutuku, icyatsi ndetse n'iz'umukara, kimanitse hejuru ndetse kikaba gifite n'amabara ajya gusa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abanyamaguru bari mu gisate cyabo cyabugenewe, muri uwo muhanda hari umuntu utwaye igare. Umuhanda ucaniwe cyane amatara meza, inyuma y'umuhanda hari umwijima ukugaragaramo amatara atagaragara neza.

Umusigiti usengerwamo n'idini ry'abasilamu, wubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, harikugendera abantu, ndetse hakaba hasizwe irangi ry'umuhondo, icyapa cyerekana cyangwa cyerekana umuhanda ko ukomeza , ndetse n'umusigiti ufite amarangi y'ubururu.

Inzu nziza yubatse neza igeretse kabiri ifite amabati ajya gusa n'umutuku, ndetse ifite n'icyapa imbere yayo cyanditseho Arapi Rwanda Politekinike cyangwa Ayipi Alasi Musanze. Icyapa kiri mu busitani bwiza cyane harimo imikindo ndetse na jaride nziza, inzu irakorotiriye ku mpande...

Ishuri ry'abana ryanditseho inka, imbwa, ihene, injangwe, ndetse n'ibice bigize umubiri w'umuntu. Biragaragara ko ari ikigo cy'abana bakiri batoya. Aho bigira hari ibara ry'ubururu riharanga.

Inyubako ifite amabuye ku ruhande, ndetse ikaba yubatswe nk'uruzitiro rufite giriyaje n'inkingi gusa, iruhande rwayo hari ibiti ndetse no hirya hubatsemo inzu zitandukanye zifite amabati ashaje, harimo n'ibiti birebire by'ubwoko butandukanye.

Inzu zubatse ku buryo bumwe zegeranye, zizwi nk'imidugudu yubakiwe abatishoboye, aho babashyikirije amazu, bakaba bishimye cyane, iruhande rw'izo nzu hari inzego z'umutekano, ndetse n'abayobozi bo mu nzego dusangamo daso, abasirikare ndetse n'abandi batandukanye, hirya yabo hari abaturage nabo baje kwirebera ibyo birori.

Umuhanda wa kaburimbo ufite iruhande rwawo hari icyapa cyerekeza kuri adeperi ,ku rusengero rwa paruwasi ya kabarondo, icyapa gihagazweho n'abagabo batatu, umwe agihagaze iruhande abandi bahagaze ku muhanda w'igitaka ,bigaragara ko hepfo yabo hari abandi bagabo bari kugenda mumuhanda wa kaburimbo.

Inzu yubakishije amatafari ya ruriba imeze neza cyane, harimo igitanda cy'ubururu kigeretse buri mwanya ufite matela yawo, ndetse hariho n'amashuka atandukanye, hari itara mo imbere muri iyo nzu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri bitandukanye kandi hagati y'iyo mihanda hatandukanijwe n'umwanya munini uteyemo indabyo, harimo imikindo n'izindi zitandukanye, harimo imodoka iri kugenda n'umuhanda umanuka harimo abanyamaguru babiri barimo bamanuka bawugenderamo.

Ibyatsi biteye iruhande rw'inyubako zubatse nk'amashuri, hari ibiti byameze muri ibyo byatsi, hakaba hari n'ikigega kiri kuri ayo mazu yubakishije amatafari ahiye.

Inzu yubatse yegamyeho abantu isize karabasasu y'umukara, iruhande rwayo hari indabyo hejuru harimo basizemo izindi z'umuhondo. Hari umugabo uri imbere wambaye ikote n'inkweto zifunguye.

Urusengero rwubakishije amatafari ya ruriba ,ndetse munsi yarwo hakaba harimo n'izindi nyubako, iruhande rwayo haparitse imodoka eshatu z'amabara y'umukara, hari umukecuru wifashe mu mugongo, uri kujya ku rusengero ndetse n'umugabo uri gutambika ajya asa nk'aho ari kuva ku rusengero, yubitse umutwe yambaye n'umupira w'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse munsi y'umusozi ufite itaka ry'ikokobe. Hari abanyeshuri babiri bari kujya ku ishuri bari kugenda ku ruhande rw'umuhanda hahinze ibiti, ruguru y'umuhanda ku mukingo. Ndetse hari n'ibyapa byerekana aho umuhanda ushobora kugarukira mu mukingo.

Umuhanda wa kaburimbo ukata mu byerekezo bitandukanye, ufite imirongo y'umuhondo iciye, hari inzu ziri hagati y'imihanda ibiri, hari n'icyapa cyereka imihanda cyerekana aho imihanda ari inzira z'abanyamaguru, zigaragazwa n'amabara y'umweru aciye hagati mu muhanda.

Inzu zubakiwe abatishoboye ,zifite ibigega ku mpande, ndetse n'imirasire hejuru ,zisakajwe amabati y'umutuku ,zikaba zubakishijwe n'amatafari ahiye, hari abana babiri bari iruhande rw'inzu ,ndetse hakaba hari n'umuhanda w'igitaka, uciye iruhande rw'izo nzu.

Icyapa kiri mu mabara abiri iry'umutuku n'iry'umweru, mo imbere harimo inyuguti igaragara nkaho ari iyata, ihengamye yerekana ko imbere hari ikorosi, giteye k'umuhanda munsi, hejuru yawo hari inzu ihubatse ndetse hagaragara ko ari urukuta rw'igitaka rur'iruhande.

Inyubako igeretse inshuro imwe yubakishije amatafari ya ruriba, ifite irangi ry'umuhondo ndetse ku mpande n'impande hari amabuye asize irangi ry'umukara ndetse n'umweru hagati yayo . Hari umuhanda utambitse, harimo n'amapave.

Ikiraro kiri kugendwaho n'abazungu baherekejwe n'umugabo, ikiraro kandi gifite inkingi zifite amabara yi'cyatsi ndetse n'umuhondo, hasi y'icyo kiraro hari abantu bari kugenda ,ndetse n'iruhande rwacyo hari imirima aho ihinzemo ibigori, hakurya yacyo hari umuhanda uri kugendamo imodoka ,ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Umurima uhinzwemo ibishyiyimbo, bigaragara nkaho bitameze neza, hirya yaho hari ishuri ryubakishije amatafari ya ruriba, asakaje amabati y' umutuku, hari ikigega cy' umukara kiri munsi ahongaho, inyuma hari ishyamba rirerire.

Abakinnyi bari mu kibuga hirya yabo hari abanyeshuri bari gukina basiketi, hari abambaye imyenda y'umweru ndetse n'abambaye imyenda y'icyatsi ifite nimero zitandukanye, hirya yabo hari inyubako ifite amabati y'umutuku.

Urusengero rufitemo intebe zicaraho abakirisitu ndetse na aritari, rufite amashusho ya bikiramariya ndetse n'aya yezu mo imbere hari intebe ziteguye neza ndetse harimo n'amabara atandukanye biragaragara ko...

Abaturage bigaragara nk'aho bicaye imbere y'inzu, ifite imiryango ndetse n'amadirishya atandukanye, hari igihombo kiri iruhande rw'umuryango ndetse hiryaho hari n'umuhanda w'igitaka, hari umukobwa uri kugenda ari kurebera muri terefone n'undi ugaragara nkaho agiye kwinjira, ari iruhande rw'umusaza.

Koroture yubakishije amatafari ya Ruriba ifite giriyaje zitandukanye, ni ndende kuyizenguruka biragoye ,inyuma yayo hari urusengero rwubakishije amatafari ahiye ,hariho n'icyapa hejuru yayo, hejuru, ruguru yazo hari ishyamba rirerire.

Inzu yubatse neza igaragara nk'umusigiti ndetse ikaba ifite koloture yubakishije amatafari ahiye n'urugi ruri ku gipangu rukoreshejwe giriyaje . Gusa hari inzugi zisize amabara y'icyatsi ndetse n'icyapa cyerekana ko ari umusigiti kiriho amabara y'icyatsi ndetse n'ay'umweru.

Urusengero imbere yarwo hari abepiskopi harimo Atwane caridinali Kambanda imbere ye hari abandi basenyeri bagenzi be hirya ya Kambanda hari umumansera ndetse hari n'akana iruhande rwabo.

Ababyeyi bahagaze mu muryango bagaragara ko batetse, hirya yabo hari hakaba igitanda ndetse imbere hakaba hari giliyage, bari mu muryango ufite inzugi za metarike, bigaragara nkaho bashobora kuba bari kuganira, inzu irimo barimo yubakishije amatafari ya ruriba.

Umuyobozi uyoboye inama y'abaturage, abaturage begeranye bicaye batuje bakurikiye ibyo ari kubagezaho, inyuma ye hari sekereteri ari kwandika ibyavugiwe mu nama ndetse hari n'imodoka ir'inyuma yabo isa n'umweru.

Umugabo uhagaze imbere y'inteko, bigaragara nk'aho ari guhatwa ibibazo n'umugore uhagaze. Imbere ye hari akameza. Afite urupapuro mu ntoki, iruhande rwe hicaye abagore. Hafi harimo ufite umutaka ndetse n'abagabo. Hari n'abandi bicaye hasi, iruhande rwabo hari utwatsi dutohagiye n'inyuma yabo hari uruzitiro rw'ibiti.

Iyi inzu irimo abantu benshi begeranye bari mu nama, ndetse n'abayobozi bicaye ku ntebe zifite imisego, hari ameza ari imbere yabo ateguyeho indabo ndetse bakaba bicaye no ku ntebe z'imbaho ,abo baturage baje kumva icyo inama ibabwira, hirya yabo hari abandi babiri bafite mudasobwa imbere yabo ku meza.

Itangazamakuru ryegereye abaturage, aho bateraniye hamwe mu kibuga kirimo utwatsi duke, hari ababyeyi bicaye hasi n'abahagaze, hari abanyamakuru babiri umwe ari kubaza umuturage undi arahagaze.

Gereza irimo kuburanishirizwamo abafunzwe, bambaye imyenda y'iroza ijya gusa nk'umutuku, imbere ya bo hari abashinjacyaha batatu bicaye ku ntebe z'umweru, ndetse n'imbere y'abo bashinjacyaha hari ameza ateretseho amazi, inzu zubakishije amatafari ya Ruririba.

Inteko rusange y'abaturage harimo inzego z'umutekano nka daso, aho umugore umwe yahawe ijambo afite mikoro mu ntoki yambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ijire y'ubururu ndetse na rinete, bicaye ku ntebe z'umweru ni abantu begeranye cyane.

Umugabo uhagaze imbere y'abamama bambaye igitambaro kirimo idarapo ry'Igihugu. Ndetse imbere yabo hari ameza, abandi bicaye inyuma mu ntebe z'abanyeshuri. Bamwe bicaye hasi, biragaragara nk'aho umugabo ari guhatwa ibibazo. Yambaye ipantaro nini n'agashati kagaragara neza.

Abaturage bitabiriye inama harimo abayobozi batandukanye, inzego z'umutekano nka daso, inyuma y'aba baturage hari ibyuma cyangwa bafure zifashishwa mu kurangurura amajwi, hari umuturage uri imbere ufite mikoro uri gutanga igitekerezo, akurikiwe n'umubyeyi inyuma ye ufite agakapu mu ntoki.

Imodoka itwara ibicuruzwa ifite konteneri y'umutuku, ndetse n'igice cy'imbere gisa n'umweru. Iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Hirya yawo hari ibiti ndetse hakurya hari umusozi muremure.

Ikinyabiziga kizwi nk'igare rya siporo, giparitse ku nzu, ku rukuta rugizwe n'amabuye, ndetse hasi y'icyo kinyabiziga hakaba hameze neza. Ikinyabiziga kiziritseho umukoba inyuma ku ntebe, ndetse kikaba gifite n'ifirimbi cyangwa inzogera bakoresha bagitwaye.

Abanyonzi baparitse ku muhanda bigaragara nk'aho bari kuganira, buri wese afite igare, bamwe bayariho abandi bayahagaze iruhande, hirya yabo hari inzu nziza ndetse n'imodoka yanditseho sitera, ikaba isa n'umweru bigaragara nk'aho yaje gutwara abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara urimo umumotari utwaye moto, hijya y'uwo muhanda hari inzu nziza cyane igereretse isa n'umweru, hari igiti imbere yayo y'iyo nzu ndetse hari n'undi muhanda unyura hijya yayo ukomeza ugenda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda bigaragara nk'aho hari kugwa imvura. Isize irangi ry'umukara, yanditseho Kigali siiti tuwa viziti Rwanda. Ifite amapine y'umukara ndetse harimo abantu. Inyuma yayo hari izindi modoka ziyikurikiye, ziri kugenda. Imwe y'umukara isa nk'aho ishaka kuyidepa.

Imodoka ya volcano itwara abanyeshuri, bigaragara ko abanyeshuri batonze umurongo, bari kuyinjiramo, bashobora kuba bari kuva ku ishuri, cyangwa bari kujyayo. Iri imbere ,inyuma yayo hari inzu igaragara nkaho yubakishije amatibe, hakaba hicayemo abandi banyeshuri benshi. Bambaye imyenda y'ishuri.

Gare irimo imodoka ebyiri imwe yanwanditseho diferanse egisipuresi，indi yanditseho, indi ni iy'umweru hijya yaho hari tagisi zitwara abagenzi，zimwe ntoya， iruhande rwa gare， hari inzu ya etaje，itaruzura neza，imbere y'iyo modoka ya diferanse hari etaje nziza cane.

Ikibuga mpuzamahanga k'indege, giparitseho indege yanditseho Rwandeya. Inyuma kuri iyo ndege, hari amabara y'ubururu, arimo ikirango k'izuba, ndetse hari umugabo wambaye jire, uri gusa nk'aho asatira iyo ndege itwara ibicuruzwa, yanditseho karigo ndetse hari...

Moto iparitse kumuhanda aho hari abagabo babiri umukanishi ndetse n'umumotari aho yaje guhinduza bateri yashyizemo imwe akuramo indi zose zifite amabara y'umuhondo. Iparitse hakurya y'umuhanda hakurya yayo hari amazu inzu imiryango itatu ifunguye, inzugi zayo zisize irangi ry'ubururu zikaba zifite nakandagira ukarabe imbere.

Umuhanda urimo imodoka yifashishwa nka rifane, isa n'umutuku, hirya yayo hari indi y'umweru yifashishwa mu gutwara ibikoresho, ifite amapine y'umukara imbere n'inyuma.

Abantu benshi batandukanye ,bamwe bari gucuruza ,ndetse n'imodoka ziri muri gare ,aho bategera abagenzi . Harimo abamotari hakaba harimo n'abantu batanga amayinite ya MTN. Ni ku isoko ryubatse neza hariho ibyapa bya ekwiti ndetse n'ayandi mabanki ata......

Umugore uri kugenda mu muhanda atwaye igare, ahetse udufuka tubiri dutendetse n'akandi kamwe hejuru, hirya ye haparitse imodoka ebyiri imwe isa n'umutuku indi ijya gusa n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini zitwara ibicuruzwa. Hari amazu yubatse iruhande rwawo, ndetse hari n'indabyo ziteye iruhande rw'uwo muhanda. Hari umunara uri inyuma y'izo modoka, ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ari ku muhanda.

Iseta y'abanyonzi. Aho baparika bategereje abagenzi. Hari icyapa kiriho umugore ufite telefone y'umutuku, hari umugabo uri kugendana akambaraje mu ntoki, ndetse bambaye n'udupfukamunwa. Bose bahagaze ku magare bamwe begeranye abandi batandukanye. Hari n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amagare na moto, ndetse moto itwaye umugenzi bambaye kasike hari n'umugenzi umunyonzi utwaye igare ririho umugenzi. Hirya y'aho hari ikigo cy'amashuri hahagaze umukobwa hanze y'ikigo cy'amashuri, iruhande rw'umuhanda hari amapoto y'amashanyarazi, ndetse n'ibiti binini bihateye.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, bigaragara ko ari gukina vole, umupira w'amaboko. Yambaye agasengeri kanditseho nimero gatandatu, ndetse kazamutseho imbere, kari kumugaragaza umukondo.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaboko uzwi nka baskete. Amakipe abiri yahuye bigaragara ko bambaye imyenda idasa. Hari abambaye ubururu bwijimye ndetse n'icyatsi. Inyuma haruguru yabo hari abari kubareberera baje kureba umupira bicaye.

Siporo yahuje igitsina gore. Bari kumwe n'umutoza wabo bishimye cyane. Bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bambaye imyenda y'ubururu. Harimo abakobwa basutse imisatsi, ndetse hari n'uwayiziritse wayizirikiye hejuru. Harimo n'abatoza babiri bambaye imyenda hejuru yicyatsi.

Abakinnyi babiri bari gukina umupira umukobwa umwe yambaye jezi y'ubururu, agakabutura k'umukara, amasogisi y'umukara arimo amabara y'umweru, ndetse n'inkweto z'umutuku zifite utubara tw' umweru ari kwirukanka k'umupira w'amaguru witwa nka balo. Hirya ye hari umuhungu wambaye umupira w'umuhondo, n'ikabutura y'umukara n'amasogisi y'ubururu, ndetse biragaragarako umukobwa ari kwirukankana....

Abakinnyi bari gukina rugubi bambaye imyenda itandukanye ni abakobwa umwe yambaye imyenda y'umweru, undi yambaye iy'umukara amasogisi y'umukara ndetse n'inkweto zitandukanye. Uwambaye imyenda y'umweru yambaye nimero cumi neshatu ndetse na nimero karindwi kuwambaye imyenda y'umukara. Umwe arasutse abandi babiri ntabwo basutse kandi harimo ufite umupira agiye kuwujugunya kugira ngo ate...

Imyitozo ngororamubiri yahuje ikipe y'isonga ndetse n'ikipe yambaye imyenda y'icyatsi, umukinnyi umwe yafashwe n'abakinnyi babiri b'isonga, muri bo bafite umupira imbere yabo ndetse urabona ko bamwegereye cyane bamwatatse.

Umukinnyi wa tenisi w'umukobwa uri guseka neza, yambaye imyenda y'umutuku, yambaye akantuza k'umweru mu kiganza ndetse n'ak'umuhondo mu kindi. Arasutse, afite agakinisho ka tenisi. Yateye inzara, yambaye akantuza mu mutwe ndetse asa n'igikara.

Abakinnyi batanu ba tennis bambaye neza, bambaye imyenda isa, amasengeri y'umuhondo ndetse n'utujipo tw'umweru. Harimo umwe wambaye inkweto z'umuhondo ndetse n'abandi babiri bambaye ingofero, bigaragara ko bari umurongo umwe.

Abakinnyi bakina umupira wa basikete uko ari cumi na babiri bamwe bahagaze abandi basutamye muri sitade ndetse bakaba bafite n'umupira imbere yabo nimero gatanu niwe uwufite.

Umukinnyi uri muri siporo ari gukina tenisi afite agapira mu ntoki ahagaze areba imbere ye. Iruhande rwe hari imodoka iri muri giriyaje inyuma, ndetse iyo modoka ahantu iri harafunze hariho urugi, isa n'umweru.

Abakobwa bambaye imyenda y'umuhondo bakina umupira. Hariho nimero zitandukanye. Uyu nguyu uri kuza asuhuza bagenzi be, hariho nimero cumi na gatanu. Yambaye ikabutura yahinnye izirikishije umushumi, inyuma ye hari darapo ry'u Rwanda ndetse hira y'aho hari abagabo bari kuba babiri.

Abakinnyi b'umupira wa maguru bigaragara nkaho bagiye kurwana, uwabambaye imyenda y'umukara iriho nimero gatandatu ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku, handitseho nimero Kane, hejuru yabo hari umupira, hirya yabo hari abicaye hasi bari kubareba.

Abakinnyi bambaye imyenda y'umuhondo ,yanditseho nimero zitandukanye, hari uwanditse numero kabiri ndetse na nimero kane bambaye inkweto zitandukanye z'umweru ,ndetse n'umukara bari mu kibuga kiri kugaragara neza, inyuma yabo hari undi wambaye imyenda y'umukara, ndetse hakaba harimo n'itara mu cyumba bari gukiniramo.

Umukobwa wambaye isengeri, ndetse afite balo ya basikete, arasutse yayishyize ku gatoki .Yambaye agakabutura k'umukara, ndetse afite n'imisatsi ihambiriye inyuma. Ari guseka arishimye bigaragara ko ameze neza.

Abaturage bazindukiye muri siporo rusange. Bambaye imyenda itandukanye idasa yabugenewe. Bari kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo, ufite icyapa cya KG magana atanu mirongo ine na kabiri.

Umukobwa ukina tenisi udefirije ari guseka yambaye agakora k'umukara, udukweto tw'umukara aricaye yambaye umupira w'umutuku, urimo n'utubara tujya gusa n'umweru ari kureba ku ruhande arishimye cyane.

Ikibuga cya vore cyahurijwemo abakinnyi b'ubwoko butandukanye. Hari Abanyarwanda ndetse n'abandi bambaye imyenda y'imituku, ndetse n'imihondo. Hari umukobwa ugiye gutera baro wambaye nimero gatandatu, ndetse n'undi ku ruhande rwe wambaye nimero itatu. Hari intebe ziri inyuma yabo, bigaragara nk'aho ziri muri sitade zifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umukobwa wambaye akajipo k'umweru, agasengeri k'umukara, afite igikoresho cyifashishwa mu gukina tenisi. Bigaragara nk'aho ari gukubita agapira, afite imisatsi itaratse inyuma, ari guseka, ndetse yambaye n'ibikomo mu ntoki cyangwa ku maboko yombi. Umukobwa umeze neza cyane.

Umukobwa wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umutuku, afite umupira mukiganza, yasutse imisatsi ndetse imbere ye hari umuhungu wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara. Hirya yabo hahagaze undi muntu kuri giriyaje.

Akazu kubatse nka piscine hariho akego kajyayo harimo ikintu kimeze nk'igipupe kirimo ndetse hirya yaho hateye ibiti kubakishije gakorotirijwe amabuye y'umweru ndetse iruhande rwaho hari ubusitani bugaragara neza hari amahumbezi meza hirya yaho hari akazu ku basize amarangi y'umweru n'igiti kigaragara nkaho kijya gusa nk' mukindo

Ubwogero bwiza cyane buzwi nka pisine ,aho imbere yaho hari intebe ebyiri zikikijwe n'ameza, ayo meza akaba ateguyeho ibisorori bitandukanye ,ndetse n'inyuma y'ubwogero hakaba hari izindi ntebe ebyiri zihateye zireba hirya, iruhande rwayo hakaba hari n'ibindi bimeze nk'amazi.

Abakobwa bari gukina umupira w'amaboko, ndetse bahuye bari muri sitade, umwe ariteguye gutera umupira, undi asa nk'aho ahagaze agiye kuwukuramo. Yasimbutse cyane, abandi bari kumureba, bambaye imyenda idasa. Iratandukanye cyane, ndetse bambaye n'amakabutura na kora.

Ikibuga cyubatse neza cy'umupira w'amaboko, ndetse kikaba gifite na korotire ku mpande, hakaba harimo abantu bari gukina harimo umugore wambaye umupira w'ubururu, ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umutuku. Inyuma yaho hari umunara ndetse hari n'amatara ashinze ku kibuga.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umumotari utwaye moto, ahetse umugenzi biri kugaragara ko umugenzi afite telefone mu ntoki, iruhande rw'uwo muhanda hubatse amazu ndetse hateye n'indabyo.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'umukara urikugendwamo n'abantu babiri aho bakurikiranye bagenda, hepfo y'abo bantu hari inzu ifite amarangi y'ubururu ,impande y'iyo nzu hari icyapa cya Eyateli ndetse hari n'ibyatsi iruhande rw'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru, aho iyo mirongo igaragaza aho abanyamaguru bambukira, ndetse ukaba ugaragaza ko ikinyabiziga iyo kigeze iruhande rwawo, kigomba gutanga inzira ku banyamaguru bagatambuka.